Imodoka itwara abagenzi ndetse n'imizigo ariko mu Rwanda ntabwo bihaba, kuko mu Rwanda abagenzi bahawe agaciro, nta mugenzi utwaranwa n'imizigo. Hari imodoka z'imizigo, haba n'imodoka y'abagenzi, kandi ntabwo bangiza ibidukikije, bafite amashashi, twebwe abanyarwanda twarasobanutse tuzi ibyaduhesha agaciro.

Daso ni urwego rw'umutekano rushinzwe kurinda abayobozi, cyane cyane mu bigo bya Leta, mu tugari, mu murenge, ndetse no ku karere. Aho usanga ba Daso kugira ngo babungabunge umutekano wayo.

Ikibuga kinini cyane kiri mu kigo cy'amashuri. Aho abaturage bitabiriye inama, umupolisi ari kubagezaho ibijyanye n'umutekano, ko bakwiye kwitwara, ko bakwiye kuwurinda kugira ngo bawusigasire, na bo ubwabo bamenye ko bagomba kwifata.

Abapolisi bashinzwe umutekano bari muri paledi. Icyo bita paledi ukwiyerekana bagenda bacanga inkota ibi babikoresha mu myiyereko, ikunda kuba iyo habayeho umunsi mukuru.

Cyacu hari inzego z'umutekano zitandukanye. Abapolisi bo bashinzwe mu gucunga umutekano ndetse bafashijwemo na daso. Daso ni umuntu ushinzwe umutekano cyane cyane ku Kagari, mu Murenge kugira ngo babungabunge umutekano ndetse n'iby'abaturage.

Abajura bafashwe bibye ibikoresho bya elegitoroniki bitandukanye harimo: senti, harimo mikiseri, ndetse n'ibindi bifasha abantu kurangurura amajwi. Abatekamutwe bareze ariko hamwe na Leta umutekano iyo bafashwe barafungwa.

Icyumba kinini kiza cyubatse neza, intebe nziza, ameza meza n'aho bavugira heza, bazi no gutanga keya, baba bahaye abantu amazi, bakurikikira inama, kugira ngo babashe kungurana ibitekerezo.

Icyumba mberabyombi kiberamo inama, kimeze neza gifite amatara, intebe, imeza naho bicara. Baba batanga ibiganiro kandi buri wese akanyurwa n'ibyo bamubwiye, kirimo ibikoresho bya Elekitoronike byifashishwa Mikoro, Porojegiteri ndetse n'ibindi.

Amahugurwa cyangwa inama ni aho abantu bahurira bakungurana ibitekerezo, bitewe n'icyo bari kubaganiriza, kandi buri wese agataha afite icyo akuyemo cyamugirira akamaro, kigafasha n'igihugu muri rusange.

Icyumba cy'inama mberabyombi wigezemo umeze neza umuntu aricara yamara kwicara agatanga ibitekerezo n'inyunganizi bitewe n'ibyo babagejeho n'ibitekerezo umuntu akisanzura mu nama kuko iyi sale imeze neza kandi yujuje ubuziranenge bwo kwakira abantu.

Icyumba cy'inama kiberamo inama z'igihe zitandukanye bavuga ku bijyanye n'iterambere ry'igihugu, iterambere ry'umugore, iterambere ry'uko igihugu cyaho kigeze cyiteza imbere, bagaragaza imbogamizi uko abagore biteje imbere, uko bahawe ijambo mu iterambere ry'igihugu.

Inama y'abakorerabushake, iyi jire bambaye bayita jire y'umwambaro w'urubyiruko bita yufu volontiyazi bisobanura abakorerabushake b'Akarere ka Musanze, bicaye bari kumva inama bicaye ku makoro bari kumva inama umuyobozi yari ari kubagezaho, nyuma yo gukora umuganda.

Uyu ni umuryango wasuwe. Abagabo babiri bari gusuhuzanya babahereza ikaze. Ku meza hari icyo kunywa fanta, n'inzoga. Hari hateguwe n'ururabo hari n'ishusho ya Yezu. Bigaragara ko ari Abagatulika.

Kubyina ni umuco w'abanyarwanda kuva kera, aho abagabo babyina babita "intore" bafite ingabo, icumu, bagacinya n'umugara ndetse n'amayogi. Abo hanze nabo basigaye bifuza kubyiga kugira ngo nabo bibanezeze.

Inkono y'ibumba ni inkono ikoreshwa kenshi umuntu atetse ibiryo kuko iyo umuntu ayitetsemo igira ibiryo biryoha cyane kandi bishya neza. Ikorwa mu bitaka bita ibumba, ikunda gukorwa cyane n'abasangwabutaka.

Inka zitwa Imyambo ni inka nziza cyane uzirebye wese yumva ajyohewe no gukomeza kubireba ,zigira amahembe maremare meza, zigira umukamo mwiza ushimishije ,inyambo kuva na kera mu rwanda zabagaho.

Kubyina ni umuco nyarwanda kuva kera cyane. Aho abakobwa cyangwa abategarugori n'aba babyina barambuye amaboko bikanezeza abantu, mu birori bigiye bitandukanye mu bukwe, mu nama, igihe haje abanyamahanga. Biba bigaragaza umucyo w'Igihugu cyacu.

Abakobwa beza cyane, ba nyampinga b'u Rwanda bicaye bari kuboha. Ibirago, ibiseke ibi bigaragaza umuco w'u Rwanda ko banyampinga bari bashinzwe, kuboha ibiseke ibi bitwibutsa umuco w'u Rwanda kuri ba nyampinga.

Umusambi ukozwe neza cyane mu busuna, aho utatse n'amabara y'umukara atandukanye. Ushobora gukoreshwa nko mu nzu cyangwa abantu bakawicaraho maze uwubonye akanogerwa no kuwubona.

Kuva kera kose abanyarwandakazi iyo bizihiwe barabyina, bagatega amaboko ku ubishoboye akarusho kikorera igiseke kigaragaza umuco wacu, kuva kera abanyarwanda agaseke twakundaga kubohwa.

Amasaka y'amamera akoreshwa mu gukora mukwenda ikidage cyangwa ubushera bukanywebwa, gacuruzwa ahantu hatandukanye kugira ngo ubunyweye abashe kumererwa neza kuko kenshi ino aha majyaruguru akorwa cyane kidage

Maze gukura ngeze mu za bukuru, mfite imvi, mfite n'inkono y'itabi, aho abasaza bageze hano bakunda kunywa cyane itabi, kugira ngo babashe gusinzira.

Amayogi ni utuntu dukoreshwa n'ababyinnyi babyina, kuko bakubita amaguru hasi ukumva ni urusaku rwiza runogeye amatwi, n'ababyumvishije bakishima, bitewe n'uko biri no mu muco nyarwanda, aho bakoresha, bayakoresha kugirango bibashe kunezeza ababyumva.

Itorero ry'abari n'abategarugori, aho bajya mu myiyereko cyangwa mu bitaramo bakabyina, kugira basusururutse abantu baba bitabiriye inama ndetse n'umuco nyarwanda, aho barangwa no kwambara umukenyero ugaragaza ko ari umuco, kandi ingoma igaragaza ko bayikoma kugira ngo bagire injyana bagenderaho.

Intore aho bahurira mu itorero bakitoza bagambiriye gususurutsa abantu mu mbyino zigiye zitandukanye akoresheje ingabo, icumu ndetse n'amayogi kugira ngo asusurutse abantu mu gitaramo cyangwa basohokeye hanze, bari kugira ngo u Rwanda rurusheho kwamamara.

Inkoko, ikoreshwa bagosora amasaka ingano, ibishyimbo, umuceri ubonye ibyokurya akayishyiraho akarya ibirayi bivanze n'ibishimbo, imyungu, amateke, imyumbati. Umuntu akamererwa neza akaryoherwa.

Umusambi cyangwa ikirago kibohwa mu byatsi bita ibikangaga. Inkoko ikoreshwa bakora ibishyimbo, amasaka n'ibindi, ndetse bakanayiriraho ibiryo bya kinyarwanda ari byo ibirayi, impungure, ibijumba ubiriye akagubwa neza, akarenzaho ubushera cyangwa ikigage biri mu gacuma k'umutuku.

Umuganda ni igikorwa gikorwa n'abanyarwanda bose muri rusange ku wa Gatandatu wa nyuma w'ukwezi, aho abantu bakora bijyanye n'ubushobozi bwabo basibura imiringoti, bubakira abatishoboye ni igikorwa cyakozwe na guverinoma y'u Rwanda.

Umusambi cyangwa ikirago bitewe n'aho umuntu akomoka, aho umuntu bajya guca ibikangaga, ibyatsi, bakaza bakabihonda byamara kunoga bakabyanika, ubundi bagatangira bakaboha bakoresheje imigwegwe, cyangwa imigozi isanzwe.

Umusambi ni wo abantu bicaraho bari kurya bari kuganira, inkoko bayishyiragaho ibiryo imyumbati, ibishyimbo ,amateke ,imyungu, bagashyiramo inzoga mu gacuma bagasomeza bakamererwa neza.

Umuntu mwiza wishimye nk'umunyarwandakazi uri kubyina, agaragaza umuco nyarwanda, wo kubyina urambuye amaboko, biri mu byararaga umuco nyarwanda, aho umukobwa yabyinaga akanezeza gashayaya ndetse bikunda gukoreshwa mu birori bigiye bitandukanye nk'iyo n'abashyitsi baturutse mu gihugu cyo hanze ba aje.

Inka na zo zikenera kubaho neza mu buzima bwa buri munsi, aho inka zijya kunywa amazi ahitwa mu kibumbiro, kugira ngo nazo zibashe kubona umukamo uhagije. Iyo zibonye amazi meza asukuye arimo gikukuru, zitanga umukamo mwiza kandi mwinshi.

Kera bakoreshaga ibintu bigiye bitandukanye. Umuvure ugakoreshwa bari kwenga umutobe, isekuru igakoreshwa bari gusekura isombe n'ifu y'ubugari, urusyo ndetse bakabikoresha bari gushaka amasaka bari bushyire muri wa mutobe bamaze kwenga ukazavamo inzoga.

Abategarugori basa neza bambaye umukenyero nyarwanda, bakunda kwambara bita umukenyero aho bicaye bategereje gusohora umugeni, kuko mu gusaba no gukwa ahenshi mu Rwanda hakoreshwa imikenyero. Ibi ni ibiranga umuco nyarwanda.

Amayugi ni udukoresho dukoreshwa n'ababyinnyi. Batwambara mu kuguru. Bajya bakubita umudiho tukavuga tukirangira, tukaryohera amatwi. Bigatuma imbyino cyangwa ababyumva basusuruka.

Mu muco nyarwanda, umugore yarangwaga no kuboha ibiseke, kuboha kirago, agaheka umwana, akita ku rugo, akamenya yuko urugo rwe rumeze neza, rutekanye, akarukorera kugira ngo batamusenda.

Umusambi ,agacuma ,igisabo, igiseke ,inkoko ndetse n'ibindi bishushanya bye cyangwa bikerekana umuco w'abanyarwanda kera aho byakoreshwaga mu bintu bitandukanye mu buryo butandukanye, umusambi bawuryamagaho, inkangara bayishyiragamo ibintu baga gukora impfukire ,ibisabo bagihaga umukobwa basabye ,cyanacundaga n'amata.

Inkangara ikunda gukorwa mu bimera bimera mu bishanga, aho ikoreshwa bashyiramo imyaka cyangwa imfukire, cyangwa mu gihe cy'ubukwe, kandi ishushanya umuco nyarwanda, kuko igiseke kuva kera cyangwa inkangara byarakoreshwaga cyane.

Mu bukwe cyangwa mu birori bitandukanye， abantu bashiraga ikigage mu muvure bagahuriramo banywa，bishaka gusobanura ngo ubumwe bw'abanyarwanda，ariko bigenda bicika bitewe n'uko ubu hasigaye hari indwara nyinshi zitandukanye.

Amasaka ni imbuto cyangwa ni intete zibasha gukura, zigakorwamo ibintu bigiye bitandukanye. Umutsima urawuvuga baka kuko kera waranaryoga cyane. Havamwo igikoma, hakavamo ubushera cyangwa ikigage umuntu akamererwa neza.

Mu muco nyarwanda iyo bajyaga gusabira umugeni cyangwa habaye ikintu runaka umuganura ,inkera ,hakoreshwaga cyane ikibindi bakuzuzamo urwagwa, ubushera cyangwa ikigage, bagashyiramo imiheha bagahuriramo bagasoma bigaragaza umuco n'ubumwe babaga bafitanye n'uwo muryango.

Kinyarwanda ikoze mu ibumba, aho bayikoresha cyane cyane basukamo ikigage, kugira ngo abantu babashe kunywa bagashyiramo umuheha, ibyo byakundaga kuba kera mu gihe cy'ubukwe, abantu bizihiwe.

Mu mucyo w'abanyarwanda harimo kwidagadura no kubyina; aba ni abari n'abategarugori barangajwe imbere n'abana bari kubyina, aba b'imbere ni intore uduhungu tubiri tubyina ni intore, barangajwe imbere n'ababyeyi biteze urugore n'ibiseke.

Umugabo uri kubyina ameze neza. Abyinnye yishimye, mwite intore. Arabyina agacinya umugara, arabyina abamubonye bose bakishima, kuko iteka ryose atwibutsa umuco nyarwanda. Kuva kera abanyarwanda barangwaga no kubyina mu bitaramo.

Umuco nyarwanda, abakobwa bari kubyina gutyo bateze amaboko bagereranywa n'inyambo. Ni umuco ugaragaza ko kuva kera iyo habaga ibirori abantu banezerewe, bishimye bari mu nama bateranye haje ibindi bihugu, bararirimbaga bakabyina abagore bakishima. Ibyo bigatuma umuco udacika.

Igitebo kiboshye mu bigwegwe cyangwa mu busuna gikoreshwa mu kuyora imyanda, cyane cyane ifumbire cyangwa kikabasha kubikwamo imyaka mu gihe runaka.

Abakaraza ni abantu bavuza ingoma mu buryo butandukanye bwiza, bunogeye amaso. N'injyana ikaryoherwa n'amatwi, n'ababibona bakishima, igihe ababyinnyi baba bari kubyina bishima, bari mu bitaramo cyangwa mu minsi mikuru itandukanye.l

Umuco nyarwanda iteka hari icyo utugaragariza. Igisabo gitegurwa ku ruhimbi cyangwa igisabo nk'umukobwa wasabwe, wakowe, ikimuranga ni igisabo. Igisabo banagitegura mu myiyereko, bari kubyina.

Mu rugo rwiza rw'igipangu, haba harimo amabara menshi agiye atandukanye, agaragaza ubugeni nko gushushanya, bakoresheje amabara atandukanye. Ibibumba nk'ingagi bayibumbye bakoresheje ibumba, bigaragaza ko ari ubukerarugendo, mu karere ka Musanze.

Umubyinnyi, intore bigaragaza umuco nyarwanda bavuza amakondera babyina bishushanya umuco nyarwanda. Kubyina ni umuco w'u Rwanda uhuza abantu, uhuza inshuti n'abavandimwe. Itorero ni itorero abantu bishyira hamwe bagahuza bakabyina bagira ngo banezerwe...

Bigaragaza amateka y'igihugu cyacu, mu gihe cy'abami aho abami babaga mu nzu nziza nk'iyi, umwami akaba imbere ndetse zikagira n'ibindi nyubako zubatse mu rukari aho abantu bicaraga bakaganirira, abasura umwami bagakora igitaramo bitwibutsa umuco wacu.

Baratinyutse bihangira imirimo baboha uduseke agaseke iyo kuzuye gakoreshwa mu buryo bugiye butandukanye kandi bukajyanwa kugurishwa hanze ku bantu batazi kudukora bigatuma hinjizwa amadovize ndetse n'uwabigize umwuga nka rwiyemezamirimo akabona amafaranga bikahesha isoko u rwanda

Ingobyi ikoreshwa bajyanye umurwayi kwa muganga, nk' abanyamisozi bategereye kaburimbo, cyangwa umuhanda w'umukara ugira ibikorwa remezo. Santere do sante, ubuvuzi, bigakoreshwa bagira ngo bagezwe kwa muganga. Igitebo kigakoreshwa bahyiramo imyaka ibijumba, imineke n'ibindi bitandukanye.

Umusaza witegereje uhagaze yitegereza, afite inkono y'itabi agakoni yambaye ubusa, bamwita umukambwe mu kinyarwanda nyacyo.

Umuvumu ni igiti kidakunda kuboneka ahantu hose ariko cyakoreshwaga mu bijyanye n'umucyo, aho akenshi wasangaga aho umwami aba habaga haratewe umuvumu .Umuvumu ntupfa kuboneka kandi umuvumu ugira umumaro mwinshi cyane.

Itorero ry'ababyinnyi abagore abategarugori ndetse n'abagabo, aho baba batumiwe mu myiyerekano bakerekana ibi bishushanyo bigaragaza umuco, w'u rwanda ndetse n'abagabo bakabashyigikira babyina n'intore.

Sikoci cyangwa supadara, ako bakoresha bazirika ahantu ho umutekinisiye amaze kwegeranya insinga ebyiri, akazirikaho kugira ngo hirindwe kuba byateza impanuka. Haba sirikwi cyangwa hamenekaho amazi bigatuma inzu yabasha gushya.

Igikoresho cy'abatekinisiye bakoresha mu buryo butandukanye, bafungura ibyangiritse bashaka kongera kumenya ibirimo imbereba uko bimeze bakongera bakabikoresha bijyanye n'amashanyarazi kugirango ngo babashe gukora ikintu runaka cyangiritse.

Idufasha kumenya aho igihe kigeze. Nk'umukozi ujya mu kazi, umunyeshuri ujya ku ishuri, ndetse n'ubuhinzi akamenya igihe aho kigeze, kandi ntabwo twaba ku isi tudafite ikoranabuhanga nk'isaha ituyobora.

Igikoresho gikoreshwa mu gihe bari gukora ibijyanye n'amashanyarazi, cyangwa bafungura aka ikintu runaka, bashaka kureba uko cya kimeze mo imbere. Igikoresho cya elegitoronike gifungura ivisi cyangwa iburo.

Ibikoresho bikoreshwa mu buryo bwinshi bugiye butandukanye ariko hifashishijwe umuriro aho uteka amazi, amazi yamara kuboneka akaba hakoreshwa bayoza abana, bayatekamo icyayi kandi bigafasha n'umurimo wo mu rugo kwihuta kuko bigira vuba.

Intara y'amajyaruguru igira icyicaro ikoreramo, kugira ngo ufite ikibazo cyangwa ukeneye ubundi busobanuro, abone aho yabasanga atuje kandi atekanye, kuko umuturage yegerejwe serivisi.

Ibikorwa remezo bitandukanye biba byarubatswe n'ubuyobozi kugira ngo babyegereze abaturage, amapoto y'umuriro, amashanyarazi, amashuri ndetse n'umuhanda, bikaba biba ahantu hari umudugudu.

Idini yaba yehova n'idini risenga yehova rikaba rikorera ahantu hamwe, kandi niko inyubako, zabo zose ziba zisa kimwe ziri ku muhanda ziri ahantu hameze neza harimo isuku.

Adeperi, urusengero cyangwa itorero risengeramo abakiristo b'abapantekote buri wese yisangamo. Rumeze neza, rusize amarangi, rufite ibikenerwa byose kugira ngo abantu basenge kandi bafite n'umutekano.

Inyubako nziza imeze neza iri ahantu hashimishije, aho buri wese abasha kubibona akabona ko ari nziza, uyiganye ashaka gufatwa mu buryo butandukanye bitewe n'ibyo bakoreramo babona aho babicaza hanze, hari ubusitani umuntu yabasha kururuhukiramo ndetse hari n'aho waparika imodoka.

Ibi ni Ibiro bya RIB. RIB ni ikigo gishinzwe kwita ku byaha bikorwa. Biri Mukamira, icyicaro cya Mukamira. Hagaragazwa n'ibendera ry'u Rwanda ndetse n'irya RIB. Hari intebe zishinzwe kwakiriramo abantu babagana.

Ayipi arasi i ngoma n' ikigo cy'ishuri rikuru ryisumbuye aho bakora ibintu byinshi bitandukanye byo kwihangira umurimo muri kino gihe n'inama yahuje abayobozi batandukanye biga ku bibazo byatuma ikigo kibasha gutera imbere n'umusaruro wabonetse.

Ibitaro bya Ruhengeri ni ibikorwa remezo kiba cyarubatswe na Leta, kugira ngo uhageze afite ikibazo cy'ubuzima， babashe kumufasha，ndetse babashe kumuvura akire， namara gukira asigasire ubuzima bwe.

Kiriziya nziza aho isengeramo abemeramana b'abagatolika, bafite ubusitani bwiza, bafite inyubako zitandukanye, ni igikorwa remezo gihurira n'abantu benshi bijyanye n'imyizerere yabo.

Inzu ndende nziza igereretse kabiri, ishinzwe kwakira abayigana ngo ibafashe mu butabera, bayita "Ingoro y'Ubutabera ya Musanze", hakaba hariho n'idarapo rigaragaza ko riri mu gihugu cy'u Rwanda.

Icyicaro cya Holizoni Sopirwa, aho gishinzwe gutegura ibireti bikavamo imiti igiye itandukanye kandi bigatanga n'ingemwe ku bashaka guhinga ibireti ,kugira ngo barusheho kwiteza imbere no kohereza ibituruka biva mu gihugu hagati.

Kiriziya, amashuri, umuhanda, ibikorwa remezo bituma abantu babasha kugera iyo bagera, moto igeza umuntu aho agiye, umuhanda uyobora umuntu, icyapa kiyobora umuntu bitewe naho ari kugana, kiriziya umuntu abasha gusengeramo, amashuri abana bigamo bacu kugira babashe gukariza ubwenge.

Imeza ariko umuhanda umeze neza ariko biba byiza cane kuko yegerejwe n'umuriro w'ibikorwa remezo bituma abantu bato bo mu bwigunge bakabasha gucana gatera ipasi ndetse n'abana bo bakabasha kwiga bigatuma umuryango ubu umererwa neza

Inyubako nziza ibereye amaso, ni kimwe mu bikorwa remezo byubakiwe abaturage, aho umuturage abasha kubona serivise itandukanye, yubatswe neza, irimo amayesikariye azamuka, aho baparika imodoka, ndetse hirindwa kwangiza ibidukikije, hubakwa cyangwa hakorwa ibiti.

Paruwasi gaturika irangwa n'ishusho y'umubyeyi Bikiramariya, uhora udusabira uko bwije n'uko bukeye. Paruwase irangamwo abagatolika.

Inyubako nziza, imeze neza ifite uruzitiro, ikigega gifata amazi, ifite igipangu. Imbere yaho haririmo ibiti umukindo. Inyuma yaho hari abantu bashobora kwicara, abanyegare barategereje abagenzi.

Kiliziya nziza cyane y'i Kabgayi, aho umuntu ayireba ari inyuma y'uruzitiro atarinjira, kandi ni kiliziya abantu bose bageramo bagatangara, kuko yubatswe kera, ni kiliziya abantu bageramo bakishima.

Inkotanyi ryo rigira aho rikorera ni ishyaka rizwi ry' ubumwe, demokarasi n' amajyambere, aho rikorera haba hazwi kandi haba hanogeye amaso, kugira ngo ushaka serivise wese abashe kuyihabwa.

Ikibuga kinini kirimo ubwatsi bwitwa imicaca. Harimo n'inzira buri wese abasha kuja aho bamuha serivisi nziza, aho abantu bishima bakahaca banezerewe, uhageze wese akisangamo.

Yajyaga kuri banki agatonda umurongo, agategereza yuko bakugeraho, ariko bisigaye byoroshye, intebe ziba zarashyire muri sale cyangwa aho bafatira amafaranga, umuntu yagerwaho akagenda bakayamuha kandi nta muvundo ubaye.

Urusengero runini kandi rwiza ruri mu bikorwa remezo abantu bakenera buri munsi. Rwujuje ibisabwa, hari ubusitani, hari hanze imbuga yo guparikamo imodoka kandi ruritaruye, ruri ahantu heza hanogeye amaso.

Ibikorwa remezo. Umuhanda umeze neza ugezweho, n'amashanyarazi, utwara amafoto agemurira mu baturage b'urusengero ntibasigaye inyuma, kuko abarugana bitewe n'imyemerere yabo mu Rwanda bemerewe gusenga, bigendeye ku mategeko cyangwa amahame ya guverinoma y'u Rwanda.

Umusigiti ni aho Abayisilamu bahurira bakambaza Imana yabo kugira ngo babashe kumvirwa , kandi haritaruye hameze neza hari parikingi ndetse hari n'umuhanda n'ibikorwa remezo.

Buri wese iyo afite ikibazo, agomba kugira aho abariza ikibazo cye, cyane cyane ko ubuyobozi bwegerejwe abaturage. Umurenge uba ushinzwe kwakira umuntu ikibazo afite kigakemuka, kandi kitakemuka bakamurangira uko cyakemuka, hatangwa ubugororangingo.

Aho abantu bahurira basenga bita kiliziya gatolika mu gwanda ibisanzwe aho abantu basengera bose bahuje umutima, abakirisito ba kiriziya gatorika, kiriziya yabo benshi irangwa n'umusaraba hejuru y'iyi nyubako.

Umuhanda wa kaburimbo uri gusizwa ，bashyizemo borudire， bubaka n’icyo bita regore kugira ngo amazi abashe gucamo，harimo n'amabuye yo gukoresha，harimo na moto kugira ngo umuhanda ugende neza，ndabona moto imeze neza.....

Urusengero runini ruri ahantu heza k' umuhanda kandi rufite ubusitani bwiza, aho haparika imodoka ndetse n'ibindi bikorwaremezo bijyanye na byo, kugira ngo urugezemo wese amererwe neza kandi ni runini rurisanzuye ruri n'ahantu heza.

Urusengero runini kandi rwiza rufite aho baparika imodoka, aho abantu binjirira, n'ah'abantu basohokera buri wese akamererwa neza. Hari n'ikibuga kinini cyitaruye kugira ngo buri wese abashe kuba yumva afite umutekano ntawe umusitaza.

Urusengero ruri mu bikorwa remezo abantu bakenera uko baba bangana kose buri wese agira uko yemera, ni urusengero rwiza ruteye imbere , ruriho parikingi, ruriho uruzitiro ku buryo ntawapfa kuvogera abantu baba bari gusenga.

Inyubako nziza iri ku muhanda ni igikorwa remezo kiba cyarubakiwe abaturage, aho batubura imbuto zitandukanye kandi bakabasha no gufasha abahinzi, kugira ngo babashe guhinga ibintu bimeze neza byagirira akamaro igihugu ndetse nabo ubwabo.

Umuntu asigaye azi guharanira uburenganzira bwe mu buryo bugiye butandukanye, aho umugore afata ijambo akavuga ibyifuzo bye ,ibitekerezo bye, n'ibyashirwa mu ngiro runaka mu nama, kandi akavuga atishisha kuko yatinyutse, umugore yahawe agaciro n'ijambo.

Umugore yahawe ijambo, aho asigaye atinyuka agatanga ibitekerezo, agatanga inama kandi mbere bitarashobokaga ko abagore n'abagabo bicarana hamwe ngo bagire ico bunguranaho. Umugore yahawe ijambo ni uw'agaciro.

Umuturage wese yarasobanukiwe haba umugabo, haba umugore ,yamenye icyo inama ivuzeko uyigiyemo atanga ibitekerezo bigatuma yunguka, ndetse n'umuryango nyarwanda muri rusange ukabona ibikenerwa.

Icyumba kinini gishinzwe kwakira inama aho abantu bicaye bakurikiye inama. Nk'umubyeyi, nk'umugore, ari gutanga igitekerezo cy'ibyo yumvishije mu nama bababwiye.

ikibuga cyiza，kinini， gifite ubusitani burebure，bumeze neza n'ibyatsi hasi bita umucaca， aho abaturage bicaye bari gukurikira inama n'ubuyobozi，ndetse bagatanga n'ibitekerezo，ufite n'ikibazo akakibaza，kugira ngo abashe kubaho atuje kandi atekanye.

Inama ihuza abaturage batandukanye mu rwego rwo kungurana ibitekerezo mu nama abayobozi babo baba babateguriye kugira ngo ufite ikibazo, ufite uwamuhohoteye, babashe kumukemura ikibazo mu mucyo imbere y'abaturage.

Ni aho abagenzi bategera imodoka zitandukanye bitewe n'aho agiye. Haba harimo imodoka zijyana abantu mu byiciro bitandukanye byo mu Rwanda, ndetse no mu mahanga. Hakabamo n'imodoka zishinzwe gutwara abigenga cyangwa purayiveti.

Gutumiza hanze ibintu bigiye bitandukanye, abanyarwanda muri rusange bamaze gusobanukirwa batuma ibigenderwa cyangwa ibicuruzwa hanze, bikaza bikajya kuri Gasutamo aho babipakurura cyangwa bakapakiza babijyana mu bihugu bitandukanye, ibindi bikava mu bihugu biza mu Rwanda.

Aho tagisi zihurira zitwara abagenzi bahita muri gare. Imodoka zitwara abagenzi bitewe n'icyerekezo umugenzi ajyamo, buri wese baramutwara ari mu gihugu ndetse no hanze y'igihugu, abagenzi babasha kubona imodoka kandi iki ni igikorwa remezo cyishimirwa n'Abanyarwanda bose muri rusange.

Umuhanda urimo imodoka, nyinshi zitandukanye zegeranye n'abagenzi bari kugendera mu mukono wabo, hakabamo n'umupolisi umupolisi uhagaze, ushinzwe ko abantu bambuka n'imodoka zikagenda ntawuhutaje undi.

Ibikorwa remezo bitandukanye birimo amazu meza ageretse , aho kera kubona ayo mazu agerereke gutya imihanda imeze neza byabaga bigoranye, ariko ibikorwa remezo bimaze kwegera abantu benshi bagiye batandukanye kandi burya bigaragaza amajyambere y'igihugu.

Imodoka z'abikorera zishinzwe gutwara abantu babagana, bakabageza aho bari, baba bashyizemo mubazi ibabarira, wagera aho ugomba kuviramo ukishyura ukoresheje ikoranabuhanga, imodoka zitwara abagenzi rwose ziba zihari.

Kera gutega imodoka byabaga bigoranye, ariko guverinoma y'u Rwanda yashize imbaraga mu kubasha kwegereza imodoka abaturage bagendamo, aho abaturage bagenda bameze neza ,zabaye nyinshi kandi n'ibikorwaremezo bibemerera gukora ntacyo bikanga.

Ubwato bunini bwa moteri bukoreshwa butwara abantu n'imizigo, babajyana mu byerekezo bitandukanye bitewe n'aho umugenzi ajya, hari n'ubwato bwa gakondo bukoresha abantu bake cyangwa bukoreshwa abantu bari kuroba amafi n'indagara.

Umutaka wa emutiyeni, aho bacururiza amayinite ya emutiyene babifashijwemo n'abitwa abajenti, ndetse harimo n'umutaka wa eyateri na wo ucururizwamo amayinite ya eyateri, n'abanyonzi biteguye gutwara abagenzi, babajyana mu nce zitandukanye.

U Rwanda rumaze gutera imbere cyane, aho rusigaye rufite n'indege zishinzwe kujyana cyangwa no kuzana imizigo ivuye hanze, cyangwa ikajyanwa hanze, kandi buri muntu, buri mukiriya akabona umuzigo we nkuko yawujyanye, nkuko yawohereje.

Imbangukiragutabara y'ikigo nderabuzima cya Rubare cangwa Rwinkwavu ifasha abaturage, iyo umuntu abashije kurwara ari kure, iramujyana ikamukura muri santere de sante, ikigo nderabuzima, ikamujyana ku bitaro bikuru kugira ngo abashe gukurikiranwa.

Isoko rinini kandi rihuza abantu benshi, aho abacuruzi baza kurangura bamara kurangura bakabishyira mu modoka zikabatwaza, bakabigeza aho bifuza ko bigera kandi mu mutekano nta muvundo uhari.

Ikibuga cy'indege gihuriraho indege zitandukanye, aho ziba zitwaye abantu, ibyo gusa bigatwara n'imizigo abantu baba baguze mu mahanga, ikabibatwarira ikabageza aho igomba kubageza, iryo. na ryo ni iterambere ry'igihugu.

Imodoka ipakiye cyane ibintu bitandukanye, ndetse si yo yonyine ahubwo yashyizeho n'abantu, ishyiramo amajerekani, bivuga ngo ibintu bijyanye n'abantu n'amajerekani baba vanze, ariko twebwe mu rwanda ibi ntabwo bihaba, buri munyarwanda wese cyangwa buri mungezi wese ahabwa agaciro.

Imodoka nini zifashishwa mu kugemura ibiribwa， cyangwa biba byoherejwe hanze mu mahanga， cyangwa mu gihugu hagati，kugira ngo bigere ku babishaka bicuruza....

Gare yubatse kijyambere harimo imodoka zitwara abagenzi, imodoka zita zikorera za Purive naho abagenzi bugama izuba, bategereje imodoka cyangwa bakugama imvura, ibyo bigatuma abagenzi bishima kandi babungabungirwa umutekano.

Imodoka nini ikoreshwa mu gutwara ibintu bigiye bitandukanye, ibiribwa, amasima, akenshi bikorwa gukoreshwa zibijyana hanze y'igihugu cyangwa zibivanayo kugira ngo bibashe kubona ababigura

Aho imodoka zitandukanye zihurira z'abagenzi, bitewe n'aho umuntu agana mu gihugu. Abantu baba ari benshi, buri wese yemererwa gutega uko ashaka, ko abajyana, abantu baba ari benshi mu bice bitandukanye. Amajanse cyangwa abashinzwe gutwara abantu baba biteguye kujyana umuntu mu cyerekezo aganamo.

Umukino w'amagare uhuzwa n'abantu benshi bagiye batandukanye, abo mu gihugu ndetse no hanze, aho usanga aho amagare hose ari buce mu gihugu bamenyesha abantu bakitegura, ubundi bakaza kwihera ijisho banezerewe, bareba uko igihugu cya bo kimaze gutera imbere mu mikino

Tumenyereye imodoka zitwara abagenzi, zitwara ibyo kurya ariko burya hari n'imodoka zishinzwe imyiyereko bita kuruse, aho abashoferi bahura bagakora kuruse utsinze akabona igihembo, kandi n'abantu nabo bakanezezwa no kubireba.

Igishushanyo kinini cyane cyiza kigaragaza uko sitade imeze, uko iteye ikibuga cy'umupira, aho abantu bicara bari kureba ibi naryo n'iterambere naryo ni ishusho y'igihugu kiri mu nzira y'amajyambere.

Aho abanyegare cyangwa tour du rwanda, abashinzwe siporo y'amagare, aho ishishikariza abantu kwitabira siporo, kandi n'ibikorwaremezo biragaragara, ikiraro kimeze neza gituma umuntu n'aho imvura yagwa yagiye mu gishanga, ariko umuntu abasha gutambuka, ibimera bigatambuka neza, nta kibazo.

Uyikoze ayikunze kandi uyishaka. Baskete ni umukino uhuza amakipe abiri aba ahanganye. Bagaharanira gutsinda kugirango babashe kubona igikombe.

Siporo yari cyane cyane umupira basikete wari uw'abagabo gusa ariko abari n'abategarugori bamaze gutinyuka, aho nabo basigaye bakora siporo ndetse bakabona n'ibihembo bigiye bitandukanye, bigatuma igihugu cyacu kibona ishema ry'ibihembo baba bavanye no hanze y'igihugu.

Ikibuga cy'umupira abakinnyi bakiniramo b'ababasore cyangwa babagabo, hari amapoto yabugenewe kandi meza akomeye, ndetse n'inshundura n'umupira kugira ngo babashe kunezerwa, kuko siporo irahuza abantu batandukanye.

Igikorwa remezo cyubakiwe abantu bose ibitsina byombi abagabo n'abagore ,aho umuntu ajyamo akareba imyidagaduro itandukanye cyane cyane hakinirwamo umupira w'amaguru ,abagiyemo bakanezerwa kandi siporo n'ubuzima.

Imodoka ikunda gukoreshwa, mu byo bita kuruse, isiganwa ry'imodoka, aho zigenda bitwawe byihuta cyane, byagera aho bababwiye kugera, bagahemba uwabaye uwa mbere, akabona igihembo gishimishije.

Basiketiboro ni umukino ukunda gukinwa n'abagabo. N'abagore barawukina aho ukinwa kugira ngo abantu babashe kumererwa neza mu mubiri, kandi utsinze uwo mukino w'ikipe babasha kubahemba ibihembo bishimishije.

Siporo ni ubuzima uyikoze akayikora abikunze abari n'abategari na bo bamaze gusobanukirwa icyo siporo imaze mu buzima na basaza babo bakabafasha kugira ngo barusheho kumererwa neza bagorora umubiri bishima.

Umukino wa baskete, bawise baskete kubera y'uko hejuru aho umupira uca haba hari akantu kameze nk'agaseke, cyangwa n'akabase, umupira rero iyo uciyemo uba ubatsinze. Kandi ni umukino ukinwa n'abantu bose batandukanye, ari abagabo, ari abagore barakina.

Aho umwana w'umukobwa yatinyutse akamenya, ko nawe yakina agakina nka basaza be agakina, imikino itandukanye aho bari bari gukina umupira w'amaboko bafata mu ntoki akabona, ko buri wese abishyizezemo imbaraga akumva ko atinyutse.

Imikino ngororamubiri ufasha uwirutse akamererwa neza. Atiletizime umukino wo kwirukanka, wirukanka muri sitade ahagenewe kwiruka mu marushanwa agiye atandukanye y'abantu bagiye batandukanye bashyize hamwe buri wese afite intego imuijyanye. Siporo ni ubuzima.

Leta y'u Rwanda ni irushanwa rishinzwe gutegura abantu， bakoresheje siporo， bagendera ku magarekitabirwa n'ibihugu bigiye bitandukanye，kugira ngo bibashe gutsinda， kandi n'ishema ku gihugu cyacu kuko bituma bamenya ibikorwa bihari，amazu meza ubukerarugendo n'amadovize akinjira.

Igikorwa remezo gikomeye cyane gihuza abantu benshi batandukanye, haba mu myidagaduro, haba muri siporo kugira ngo umuntu wese uhageze yishime anezerwe.

Siporo ni ubuzima, aho hasigaye hari ibikorwa remezo bitandukanye cyane cyane amatade cyangwa inzu ihuriramo abantu bakidagadura, aho abari n'abategarugori basigaye baratinyutse gukina kandi bakabasha no gutuma bazana ibikombe cyangwa igihembo ndetse n'igihugu cyacu bigatuma bimenyekana ko no mu mahanga ko abakobwa nabo basigaye bariteje imbere.

Igikorwa remezo gikomeye cyane cyubakwa na Leta kugira ngo abitabiriye babashe kunezerwa birebera ibikorerwamo cyane cyane siporo kuko haba hitaruye kandi siporo ni ubuzima.

Mu marushanwa y'amagare haba hateraniye abantu benshi batandukanye, ndetse n'abakina uwo mukino baturutse hanze, aho basigaye bambara umwambaro wa visiti Rwanda, usobanura ngo ngwino usure u Rwanda mu rwego rwo kumenyekanisha igihugu cy'u Rwanda.

Turu di Rwanda ni sosiyete ishinzwe gutegura imikino, cyane cyane w'amagare, aho abantu baturuka mu bihugu bigiye bitandukanye, bagahurira mu Rwanda, bagakina hamwe, bakamererwa neza, kuko siporo ni ubuzima, kandi bituma n'igihugu kigira ishema.

Igikorwa remezo cyiza, cyubakwa n'ubuyobozi kugira ngo buri wese azakigiremo uruhare. Ikibuga cyo kwidagaduriramo, cyane cyane ku bantu bakina umupira w'intoki voleboro. Buri wese akisanzura kandi siporo ni ubuzima.

Siporo ni ubuzima, abakinnyi bari gukina bahanganye. Ni ikipe y'umupira w'amaguru bari gukina bahanganye, bari gukinira mu kibuga cy'ibyondo.

Ni ubuzima mu byiciro byose. Ari abagabo ari abagore. Ibikorwa remezo byubatswe, ikibuga cy'umupira kugira ngo habashe gukinirwamo abantu batandukanye. Ikibuga kimeze neza gifite aho abantu bicara ndetse gifite n'ibikenerwa, kugira ngo umukino ugende neza.

Ikibuga kinini cyane kiberamo imyidagaduro igiye itandukanye abantu baturutse ku isi hose bakagaragaza ibyo bakora bagaragaza imideli, imyambarire n'imico yaho, bigatuma umuntu asobanukirwa imico yaho, ndetse bigatuma n'umuntu abasha kwihangira umurimo agendeye ku byo yabonye.

Isiganwa ry'amagare. Ni urwego rushinzwe gutegura abantu bakitoza, bagasiganwa, hagendewe ko umuntu utsinze abona ibihembo, kandi ibyo ntibyagerwaho nta muhanda muzima uhari, na wo mpamvu hari umuhanda umeze neza kugira ngo abitoza babashe kugenda nta mbogamizi.

Ikibuga kinini cyiza cy'imyidagaduro, aho abantu bahurira baje kwidagadura muri siporo hakinwa icyo bita volebolo, aho buri wese akina yisanzuye kuko siporo ari ubuzima.

Siporo ni ubuzima , siporo de mase aho abantu bahurira b'ingeri zose zitandukanye umurenge, akarere, amashuri se, abikorera, bagakora siporo rusange baganirizwa, nyuma yaho bagapima n'uko umubiri umeze kugira ngo bashobore gukomeza kwirinda indwara zitandukanye.

Abahungu n'abakobwa, basa neza bambaye impuzankano, umupira w'ubururu wandikishije amabara y'umuhondo, ikabutura y'umukara, amasogisi y'umweru, n'inkweto z'umukara n'umweru, bari hamwe barahuje ni urubyiruko kandi urubyiruko ni zo mbaraga zacu z'igihugu.

Umutoza uri mu kibuga kinini cyiza, kimeze neza, bari kwitoza gukina basiketi, aberekera uko bimeze, n'abantu baje kubashyigikira bari kureba uko bakora imyitozo ngororamubiri, siporo ni nziza cyane kuyikoze bimugirira umumaro.

Umuhanda uri mu bikorwa remezo bikenerwa n'abantu benshi bitandukanye ,hifashishwa imodoka kugira ngo abantu babashe kugera iyo bajya ,hifashishwa amagare, hifashishwa abayagendamo n'amaguru ndetse umuhanda ukozwe neza ukaba ufite na rigori ,kugira ngo amazi abashe gutambuka adasenya ibindi byubatswe.